Ni myaka myiza itoshye isa neza, harimo abagabo babiri bari gutera imiti bakoresheje amapombo manini.

Turabona umugabo uhetsepombo, urarebye neza bisa naho ahagaze mu mboga cyangwa se ahantu hahinzwe imboga. Iyo pombo iri gufuhirira, biragaragara ko uyu muti ari gute ari gukingira izi mboga cyangwa se ari kuzitera imiti mu kinyarwanda cyiza.

Umudamu wambaye taburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umweru, akagofero k'ubururu, urabona ko ahagaze mu ndabo nziza zifite uturabyo cy'umweru, ari kuzifuhira umuti, kugira ngo zidafatwa n'udusimba.

Umuntu wambaye imyenda y'ishashi y'umutuku yambaye ibiga binini by'umukara, afashe igicupa bigaragara ko ari imiti agiye gutera ibigori bimukikije, iruhande rwe ndabona ipombo itera imyaka.

Umugabo wambaye agapira k'umukara kariho umweru, yambaye ipantaro, ijya gusa umukara afashe igiti kirekire yambaye isaha, inyuma hari ihene y'umukara, harindi ifite amabara ay'umukara n'umweru, inyuma ye hari ibyuzi.

Ndabona abantu bagiye batandukanye harimo abagabo, imbere yabo mu mazi harimo abantu babiri basa n'aho bagiye kurengerwa n'amazi bigaragara ko ari umugore n'umugabo, abo bantu bari inyuma abo bantu nabonye bwa mbere bigaragara ko ari abarobyi.

Ni ibyuzi bigaragara nk'aho ari ahantu bororera amafi, urebye neza urabona uburyo ahantu hameze, iruhande hari umuhanda, noneho hakuno hari amazi menshi bigaragara nk'aho ari ahantu bororera amafi.

Abantu bari mu kiyaga bigaragara ko bari kuroba, harimo abambaye ubusa hejuru, harimo n'abandi bambaye imyenda; ku ruhande ndabona abandi bantu bategereje bisa n'aho bategereje abo abantu baje bari kuroba.

Ndabona umukobwa umukobwa ufite imisatsi y'imisukano imbere ye hari ameeza meza iteretseho ikarito n'ikibiriti, ndetse uwo mukobwa afite ifi bigaragara ko ashaka gukuraho twa duhwa tuba mu mafi.

Ndahabona icyumba, icyo cyumba kirimo ibintu by'umweruru birimo amazi, bisa n'aho bigiye bicumembikacumetse, bisa n'aho hari aho aya mazi ava muri iki cyumba abayerekeza, hejuru urabona ko iki cyumba gifite parafo y'umutuku.

Abagabo bane umugabo umwe arahagaze ateruye ikintu, undi arunamye inyuma yabo biragaragara ko hari ibyatsi ndetse hari n'ibigori bitarakura neza, hirya yabo hari amashyamba bigaragara ko ari ahantu ho mu cyaro.

Amafi ari ahantu hamwe bigaragara ko bayarobye, ni amafu meza cyane bigaragara ko ari aribwo bakirangiza kuyaroba kuko ataratangira kwangirika kandi ayo mafi biragaragara ko wagira ngo haracyarimo amazima.

Ahantu heza cyane hari ibiti basaruriyeho ibigori ariko bigihagaze harimo kandi utuntu tu tumeze nk'utubari tw'icyatsi tureture tukaba dusongoye utwo tubabi dusa neza bigaragara ko ari mu gihe cy'itumba kuko dutoshye cyane.

Abantu batatu bari mu murima, harimo umugabo n'abadamu babiri, urabona ko buri wese ahetse agatebo, bigaragara ko bari gusarura igihingwa cy'icyayi, urabona ko ari icyayi cyeze neza.

Igihingwa cy'ikawa ikawa nziza cyane, igaragara neza, n'ikawa ifite amashami amwe yeze ndi ateze, iyeze isa n'umutuku iteze iracyari icyatsi, ifite amababi meza y'icyatsi kijimye.

Ubwoko bw'imbuto zicuruzwa ariko cyangwa zihingirwa, ubwo bwoko bw'imbuto ndabona bisa naho ari imbuto z'ikawa kuko ndabona zikiri ibitunga harimo iz'cyatsi, iz'umutuku ariko bigaragara ko ikawa yeze neza pe!

Ibihingwa by'ikawa, kawa nziza hariho ikawa yeze isa n'umutuku, hariho n'ikawa itarera isa n'icyatsi, handitseho amagambo ngo ''sustainable coffe cultivation'' ni aho bahingira ikawa.

Umuhinzi w'umuceri, urabona ko ari mu gishanga cyuzuyemo ibyondo byinshi, bisa n'aho imvura irangije kugwa kuko urabona ko ari guhinga umuceri ariko yiteye ibyondo byinshi cyane. Biragaragara ko ari ahantu hatari mu misozi.

Icyayi kiza gitoshye muri icyo cyari hagati harimo umudamu bisa naho ari kukibagarira, hirya y'icyo cyayi turahabona ibiti birebire nabyo bitoshye, hepfo y'ibyo biti hari n'ubundi undi murongo w'ibiti utambitse biteye biringaniye.

Icyumba kirimo udukarito, utwo dukarito twiganjemo amabara y'umutuku n'amabara y'umweru, bigaragara ko utwo dukarito tugiye twanditseho amagambo, bigaragara ko ari udukarito tubamo imiti yo kwa muganga cyangwa se ahantu babika imiti yo kwa muganga.

Ndabona udukarito tubiri udukarito tubiri iruhande rw'udukarito dutatu iruhande rwatwo hari uducupa tubiri utwoducupa hari biragaragara ko ari uducupa tw'imiti twanditseho ngo aqutaps bigaragara ko ari imiti ivura abarwayi.

Icyumba, icyo cyumba kirimo udukarito, turiho amabara y'umutuku, harimo n'udukarito, tw'amabara y'umweru, muri iki cyumba kandi ndabonamo uducupa dutoya n'udupa tunini ndetse n'ibini cyane, bigaragara ko ari amacupa abamo imiti y'inka, kuko hari kuducupa hashushanyijeho inka.

Aha icyumba iki cyumba kiriho ibintu bimeze nk'ibishushanyo harimo akameza akameza gateretseho icupa, iri cupa biragaragara ko ririmo imiti ivura, ivura amatungo cyane cyane inkoko n'amatungo atandukanye.

Urabona icyumba, icyumba kirimo amashashi y'amoko agiye atandukanye, amashashi y'imyeru ay'ubururu ariho n'umutuku, ay'imihondo n'icyatsi, aya mashashi ashushanyije inkoko, biragaragara ko ni imiti ivura inkoko cyangwa se ni imiti bakoresha bavura inkoko, yaba imishwi, inkokokazi n'amasake.

Ni akabati ubona karimo ibikarito byinshi harimo iby'amabara y'ikigina n'icyatsi harimo ibijya gusa n'umukara. Ibyo bikarito biragaragara ko birimo imiti ivura inyamaswa; bigaragara ko ahangaha hari imiti ivura inyamaswa.

Icyumba icyo cyumba gisa n'aho kirimo ibintu bijyanye n'amashanyarazi cyane, hakurya ku gikuta cy'umuhondo hariho isaha iri kubara, ndetse hariho utuntu tw'umutuku cyane cyane higanjemo n'amabara y'umweru, ibyo bintu birashimishije kubireba.

Icyumba kirimo amashashi hariho amashashi y'amoko atandukanye hariho ishashi iriho nk'umusaraba muri uwo musaraba harimo "A" ku ruhande handitseho amagambo y'icyongereza yitwa "anvet Pharma". Ku ruhande hari indi shashi iriho inkoko bigaragara ko aya mashashi arimo imiti ivura inkoko

Umuntu ufashe ingemwe y'igiti kimeze nkaho ahari icy'umwembe, iruhande rwe hari abandi bantu bambaye udupira tw'icyatsi, babiri inyuma ye hari umugabo wambaye ishati y'igitenge ndetse inyuma yabo hari abandi bagabo babiri kandi inyuma yabo haparitse imodoka.

Abagabo babiri harimo uwambaye isengeri y'umweru, ingofero y'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi ari guhinga isuka yayigejeje hejuru bigaragara ko ari guhingisha imbaraga, bari guhinga ahantu hagaragara ko ari mu kirambi ahantu hasa n'aho bahinga umuceri.

Urabona aborozi babiri, aborozi biyororeye inka z'inzungu; bigaragara ko ari inka zigezweho. Ni inka ziri mu mafamu urabonana ahantu h'ibibaya h'amafamu ko bigaragara ni mu gihe cy'itumba kuko ubwatsi burahari mu mafamu kandi bwiza butoshye.

Urabona koko bw'ibihingwa bumeze nk'imboga, uko biri kose ibihingwa birabwa, urebye neza urabona ko harimo uduti twumye, bigaragara ko ibi ibiribwa byagezweho n'izuba ryinshi cyane bigatuma bitera neza.

Umurima munini ukikijwe n'ibiti ku ruhande rw ribumoso, mu ruhande rwo hagati harimo inyubako zimeze nk'izubakishijwe supanete, hariho n'ahameze nk'aho hahinze inyanya, none ku ruhande hari ubwatsi bwiza butoshye.

Ibiti by'amoko menshi atandukanye cyane cyane urabona ko hari igiti cy'indimu cyakokotse bigaragara ko ari igihe cy'izuba, hirya yacyo hari ubundi bwoko bw'ibiti ariko byo bimeze nk'aho birandara, birandaranda ku butaka.

Imboga nziza kandi zitoshye, hirya yazo hari igihuta cyubakisha amatafari ahiye, izo mboga biragaragara ko ari imboga za dodo zakuze neza kandi zikuze, kuko ndahabona utuntu tumeze nk'aho tugaragaza ko zikuze.

Urabona ahantu hakorerwa ubuhinzi, ni mu gishanga, bigaragara ko hahinzemo igihingwa cy'umuceri. Iki gihingwa kiratoshye, kandi kirasa neza, biragaragara ko ari mu gihe cy'itumba, kubera ko birabubereye kandi biratoshye cyane.

Ibyatsi byiza bihonze ubona bizengurutse igihuru gitoshye kirimo ibyatsi biranda bimeze nk'amatunda barya amatunda matoya.

Ni mu murima urimo ibihingwa byiganjemo imyumbati y'imiribwa, ifite utubabi utwo tubabi dushamitse ku duti tw'umutuku, harimo n'imigozi y'ibijumba iranze ku butaka hasi, harimo n'amababi y'ibigori byumye.

Umuhinzi wambaye ga bisa naho ari mu murima asoje gukura ibirayi bitanu, bitandatu, ibyo birarayi bisa naho aho bikuriweho n'ibirayi gusa bifite umweru mu nda, uwo muhinzi arahagaze.

Igiti cyiza cy'umuhembe icyo giti giteye mu butaka hirya yacyo biragaragara ko hahinze imyumbati. Icyo giti kiratoshye cyane nubwo nta mbuto zirimo bigaragara ko ari igihe cy'itumba kuko gisa neza cyane.

Umurima usa naho uhinzemo ibihaza, biragaragara ko cyararambye cyane hagati hariho utwatsi, ndetse ndabona icyo gihaza gisa neza cyane, ariko bigaragara ko cyarumbye kuko nta bihaza biri kugaragaramo.

Ikiyaga inyuma y'icyo kiyaga gikikijwe n'ibibaya byiza cyane, ibibaya bigaragara ko ari ibibaya byiza ndetse biriho ibiti bitoshye ariko biragaragara ko nta mazu atuyeho, ariko inyuma hari akayira kari kugendamo abantu.

Igishangashanga hagati harimo amazi bigaragara ko icyo gishanga kitajya kibura amazi, iruhande bigaragara ko bagiye bahahinga imboga kandi bigaragara ko hari amazi aturuka ahandi hatandukanye amena mu gisha.

Ifamu irimo ibiti birebire bimeze nk'aho ari inyegera, harimo ubwatsi bwiza, harimo inka ziri kurisha, harimo iziganjemo amabara y'umweru ku ruhande rw'ibumoso.

Ahantu hari umurima urimo ibyatsi, uwo murima iruhande rwawo hari ibiti birebire cyane, bisa n'aho umuntu uri inyuma atagaragara, muri uwo muririma biragaragara ko hari igiti, kiri kugaragara hasi gusa, ariko hari utubabi turi kugaragara tw'icyo giti.

Ni amashyamba urabona ishyamba, iryo shyamba urebye neza imbere yaryo hari inyubako bigaragara ko ari ahantu ho mu cyaro, ariko urabona hari amapoto y'amashanyarazi mo hagati urabona ko wagira ngo harimo ikibuga hagati y'ayo mazu.

Ni ishyamba, ishyamba ryiza ririmo ibiti bigiye bitandukanye. Urebeye kure urabona wagira ngo harimo ibiti byanyegera, ariko urebye neza urabona ko ni ifamu ahubwo bororeramo amatungo. Hanyuma iryo shyamba, ibiti urabona ko harimo ubwatsi butoshye bigaragara ko hari igihe cy'itumba.

Ishyamba ry'inzitane cyane ririmo ibiti birebire cyane. Iryo shyamba ryiganjemo ibiti birebire cyane kandi wagira harimo igihu. Bigaragara ko imvura imaze umwanya iguye muri iryo shyamba.

Urabona ishyamba ryiza iryo shyamba ririmo ibiti birebire cyane, rigiye risumbana urabona ko riri mu buryo bw'imisozi, urabona hakurya y'umusozi, munsi yaho ukabona aho undi, ndetse urabona ko urebye neza mo hasi, iri shyamba risa naho rifite ikibaya ariko na cyo giteyemo ibiti.

Inzu ya'mabati yi'cyatsi bigaragara ko iri mu ishyamba, hirya y'iyo nzu ikikijwe n'ibiti birebire, hirya y'ibyo biti mu ishyamba hari kuvamo umwotsi w'umweru, iruhande rw'iyo nzu biragaragara ko ari nka Hoteri iri mu ishyamba.

Mu ishyamba, iryo shyamba ririmo ibiti birebire kuri ibyo biti birebire bigaragara ko hagiye harandiraho ibindi biti bimeze nk'imbuto, uruhande urabona hari ibiti bimeze nk'ibiti by'ama, nk'amatunda, aya matunda barya, hirya urabona ko hari n'ibindi biti bigiyeho bimeze nk'aho ari byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo unyuze mu cyaro ufite imirongo itatu y'umweru, ibiri ku ruhande umwe hagati, ku ruhande ikijwe n'ibiti n'ubwatsi ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Abantu, abantu benshi bigaragara ko bari mu murima bari guhinga cyangwa se bafite ibindi bari gukora, ariko ahantu hari umurima umurima bigaragara ko wegeranye n'ishyamba ririmo ibiti byiza cyane, ibiti bitoshye kandi bisa neza.

Ndi kuhabona ishyamba, iryo shyamba ryiganjemo ibiti byiza cyane by'icyatsi, harimo n'ibindi birebire hirya y'ishyamba, ubirebye neza urabona wagira ngo harimo umurima uhinzemo kandi hakurya urabona wagira ngo hari imisozi.

Ni ishyamba, iryo shyamba bigaragara ko hagiye hatuyemo abantu bashya cyane kuko ugerageje kureba neza uragenda ubona harimo inzu zigiye zituye zitatanye, hagati biragaragara ko harimo ahantu amazi anyura, bigaragara ko amazi aba yaturutse mu misozi.

Ishyamba ry'inzitane urirebeye kure biragaragara ko ririmo amoko y'ibiti atandukanye. Ndetse urebye neza urabona ko ibyo biti bitoshye cyane nta n'igiti na kimwe kirimo cyumye bigaragara ko ibyo biti byabonye imvura kandi byakuze neza.

Indabo nziza z'amababi y'cyatsi kiza kibisi, izo ndabo zarabije uturabo tugiye dutandukanye, hari uturabo tw'umutuku, hari uturabo tw'umweru, hari izikirabya, mbese ni indabo zibereye amaso.

Abantu bari gusarura imbuto bigaragara ko ari imbuto za tome, za pome pome y'umutuku. Abo bantu ni batatu harimo umwe uri kurya urubuto undi ari gusuka izo amaze gusarura undi ahagaze ku ruhande, bisa naho we atari gusarura.

Abadamu batanu, abadamu harimo babiri bagufi, n'abandi batatu barebare, bafashe mu ntoki inanasi cyangwa se bigaragaza ko cyangwa se bari kwerekana ko aho bavuye hahingwa igihingwa K'inanasi.

Urabonamo pepeniyeri zirimo ibiti bimeze nk'aho ari imyembe, biragaragara ko ari ahantu binaza imbuto, hanyuma izo mbuto zikazaza kuvamo ibiti noneho abantu bakabigura, byaramaze gukura.

Umukecuru wari mu murima ukenyeye igitambaro cy'umutuku yiteze igitambaro ari guhingisha isuka ya majagu, inyuma ye hari igiti kirekire bisa naho uwo mukecuru ari guhingira imboga.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, yambaye bote n'ipantaro ijya gusa umukara ari gukorera indabo izo ndabo zigaragara ko ari nziza z'amabara z'icyatsi zifite uturabyo tw'umutuku twiza cyane izo ndabo ziraboneye cyane.

Inyanya zisandiye ahantu hamwe, iruhande rwazo hari ibigori, bigori bisa nk'aho aribwo bakibitema ibyo bigori ku bigori hari utubabi dusa nk'aho ari utw'ibigori twagiye dusigara.

Aha umurima w'ibigori urimo imashini zisa n'aho zifuhira, zifurira ibigori, uyu murima urimo ibigori bigaragara nk'aho ari byiza cyane kubera ko ibigori bifuhirwa nta zuba ribasha kubyangiza.

Umugore uri mu murima afashe itiyo y'umuhondo, imbere isa n'umukara, asa naho ari gufuhirira amazi mu murima, inyuma ye urabona ko hari ishyamba kandi biragaragara ko ahagaze ahantu hateye imyaka.

Ubu ni uburyo bumwe bwo gufuhirira, aho usanga barapfumuye uruhombo kugira ngo amazi ajye anyuraho, urabona ko ibi bisa n'aho ubutaka bwagezweho n'izuba cyane ariko kubera uru ruhombo ruriho amazi, ubu ni uburyo bwo gufuhira urabona ko ibigori bisa neza.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, afashe umupira cyangwa se ipombo y'ubururu, ari gufuhira cyangwa se mu kinyarwanda cyiza twavuga ko ari gufohirira imyaka, urabona ko hakurya, ari ahantu bahinga urutoki ndetse iruhande rw'urutoki hahinze indi myaka.

Urabona ni umurima umeze nkaho ari umurima wiimbuto cyangwa se w'inyanya, urabona harimo imashini ifuhirira urabona ko iri gufuhira muri metero nyinshi cyane, biragaragara ko ari igihe cy'izuba aho baba bari gukoresha uburyo bwo gufuhira imyaka, kugira ngo yere.

Urabona ahantu hahinze amashu ku ruhande, urundi ruhande ruhinnze karoti, urundi ruhande rugiye ruriho uduhombo tureture cyane, biragaragara ko ubu ari uburyo bugezweho bwo gufuhirira imyaka igihe izuba ryabaye ryinshi, imvura yabuze.

Mu buhinzi bw'ibigori urabona ko muri ibyo bigori harimo abantu benshi bafashe uruhombo ruri kuzana amazi, bisobanuye ko biragaragara ko ari uburyo bukoreshwa abantu bari gufuhirira imyaka igihe izuba ryavuye.

Uburyo bwo gufuhirira hakoreshejwe imirasire, urabona ko ni igihe izuba ririkuva noneho amazi ari ari guturuka hasi, urabona ko ari kwimena impande zitandukanye. Bigaragare ko arigufuhirira imyaka ikikije aho hantu.

Umudamu wambaye ikanzu y'igitenge, yambaye umukufi mu ijosi, mu mutwe we harimo igitambaro afashe igihombo cy'umuhondo imbere kiri kuzana amazi ari guturuka mu gahombo gato k'umukara, ahagaze mu mboga biragaragara ko ari uburyo ari gukoresha afuhirira izo mboga.

Ishyamba ryiza ririmo ibiti byinshi birebire bigiye bitandukanye, iryo shyamba biragaragara ko ririkorerwa neza kuko rirasa neza, kandi ibiti birimo biratoshye, bigaragara ko nta zuba, ntago izuba ryabyangije.

Abantu batuye mu kibaya icyo kibaya kigaragara ko iruhande rwacyo hari imisozi misozi nayo ituyemo abantu, harimo n'uduhanda duto ariko bigaragara ari mu cyaro kuko nta mazu nta mazu meza ari kugaragara aho hantu hose.

Imisozi ibiri myiza myiza, imbere y'iyo misozi hari utundi dusozi duto dusa n'aho hariho amaterasi y'indinganire, ugarutse hino hari ibiti iruhande biragaragara ko hari inzira isa n'aho ishaje, haparitse amagare abiri, iruhande rw'ayo magare hari ibijerekani bigaragara ko abo bantu baje kuvoma.

Ndabona udusozi tugiye tumeze neza cyane, utwo dusozi turiho ibiti bitandukanye ndetse bigaragara ko hahinzaho n'ibihingwa bigufi, hasi hagiye harimo ibibaya bisa n'aho harimo utuyira abantu bagenda banyuramo bagiye muri iyo misozi.

Urabona ahantu mu cyaro ariko hari utuzu dutoya cyane, hari ubuhinzi urebye neza ahantu hameze nk'agasozi, harimo amazu, hahinzemo n'ibindi bihingwa, biragaragara ko ari ahantu ho mu cyaro hatuwe n'abantu ariko n'ubundi hakorerwa ubuhinzi.

Imirima isa nkaho iri mu misozi iyo mirima bisa nkaho ihinzwe mu buryo bw'amaterasi y'indinganire bigaragara ko abantu bahinga bigezweho iruhande hari indi misozi igi ibiti ahantu hadahinzwe hari ibiti.

Ni ahantu h'imisozi iteganyemo hagati y'iyo misozi harimo ikibaya ndetse urabona ko iyo misozi ituyemo abantu ni ahantu hakorerwa ubuhinzi kuko urabona ko harimo inzu isakaje amabati y'umweru, inyuma yayo hari urutoki ruzengurukijwe n'ibindi biti bitandukanye by'imbuto.

Ni mu misozi miremire, urebye neza, iyo misozi hejuru hari ibiti, ariko uko ugiye umanuka, urabona ahantu hagiye hakorerwa ubuhinzi, bisa n'aho hari ubuhinzi rw'amaterasi y'indeganire kuko urabona harimo imirima ihinze itaraterwamo imyaka, harimo iyateweho imyaka.

Inka yorowe kijyambere ni inka y'inzu ifite icebe ryiza cyane rijya gukora hasi bigaragara ko inka ari zimwe mu nka z'umukamo ubirebye neza urabona iri mu kiraro yonyine ariko bigaragara ko ari inka irikonsa.

Ndabona ubwoko butandukanye bw'ihene za kizungu, izo hene bigaragara ko higanjemo iz'amabara arizo bita umusheru, amabara y'umweru, hirya yayo ndabona hari abantu basa naho bari gucuruza izo hene.

Abagabo batatu bari mu ishyo ry'inyambo. Mu bagabo harimo uwambaye itaburiya y'ubururu, harimo uwambaye itabiriya y'umweru, babiri bambaye amataburiya y'umweru. Izo nka zifite amahembe maremare ziri mu biraro by'ibyuma. Ibyo biraro biteye amarangi y'icyatsi n'umweru.

Umugabo, uwo mugabo yambaye imyenda ijya gusa n'ubururu, yambaye bote z'umukara, iruhande rwe hari ibintu bimeze nk'ibyuma bisa naho birimo amagi, bigaragara ko ari ahantu bororera inkoko zitera amagi.

Inka z'inyambo ziri mu biraro, izo nka biragaragara ko ziri kwitabwaho n'abantu, harimo bambaye amasarubeti y'ubururu, harimo abambaye amataburiya y'umweru, hariho agatebe gateretseho ikarito ndetse izo nka zifite amahembe maremare.

Turabona abantu benshi bahagaze. Imbere yabo ahantu hameze nk'ahari ishyamba harimo ihene nyinshi za kizungu. Izo hene ziganjemo imfizi, urebye neza urahabona n'ihene z'ishashi nziza cyane z'amabara y'umweru niki...

Ahantu bororera inkoko hari imishwi isa naho ikuze cyane bigaragara ko hari umuntu uri kuyigaburira kandi uyitayeho. Iyo mishwi, aa imyinshi yiganjemo amabara ajya gusa n'umutuku harimo umweru mukeya cyane, kandi iyo mishwi isa naho ari myiza.

Umugabo, umugabo uri kugaburira inka, bigaragara ko ari umworozi afashe telefoni mu ntoki yambaye inkweto zijya gusa n'ikigina n'umukara, inka ari kugaburira arimo kugaburira harimo iyambaye iyambaye iherena.

Ingurube isa n'aho iri ahantu hororerwa iyo ngurube, iyo ngurube iruhande rwayo hari ibibwana bitatu bisa n'aho birikonka, iyo ngurube biragaragara ko ari iy'umukire kuko iri ahantu hasasiye neza kandi hameze n'aho iba ahantu heza cyane.

Ni mu kiraro hari inka y'amabara y'umweru n'ikigina, imbere yayo haryamye umutavu w'amabara y'umweru dede n'umukara, iyo nka iri kurya ubwatsi.

Inka z'Inyambo ziri mu ifamu bigaragara ko iyo famu irimo ubwatsi bwiza, hirya y'aho hari igiti ari kirekire cyane kimeze nk'aho ari icy'insinga z'amashanyarazi ipoto, hakurya hari ibiti bindi biri mu ifamu, izo nka ni nziza cyane kandi zose zirasa.

Urabona ni icyumba bororeramo inkoko. urabona ko muri iki cyumba hagati harimo igicupa kirekire, urabona ko harimo imbabura isa naho isakariye. Urabona harimo imishwi mitoya cyane. bigaragara ko iyo mbabura iri kongera ubushyuhe muri icyo cyumba.

Icyumba cyororerwamo amatungo cyane cyane ayiganjemo inkoko, turabona mo inkoko z'urugondo izindi z'amabara y'umweru n'umukara bigaragara ko hororerwa inkoko za kinyarwanda, turabona mo hirya turabona mo imbabura yongera ubushyuhe ndetse n'indi miti itandukanye muri iki cyumba cyubakishije ibiti.

Ni ahantu bororera amatungo, urebye neza urabona ibiraro bigezweho bya kijyambere, hirya urabona hari inka nziza cyane, hejuru urabona ko izo nka ziba mu biraro bisakariye, urabona ko hari abantu baba baje kureba cyangwa se bari ari ahantu bororera izo nka.

Abadamu baricaye buri wese afite isahani y'icyuma iriho ibishyimbo. Imbere yabo hateritse amabase atatu arimo ibishyimbo n'izindi mbuto, biragaragara ko bari kurobanura imbuto zizakoreshwa mu buhinzi.

Imbuto nziza cyane ni imbuto z'amasaka arimo amasaka cyane ay'umutuku ariko ndabona n'ay'umweru, urebye neza muri ayo masaka harimo izindi mbuto zitwa amashaza cyangwa se imbuto bahinga zitwa amajeri.

Umuntu w'umudamu w'umwirabura, ufite umusatsi mwinshi, uhagaze ahantu muri pipiniyeri, bisa n'aho ari umuntu winaza imbuto cyangwa se ibiti by'amoko atandukanye, kuko ndabona ibikiza, ibyakuze n'ibindi bitandukanye.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ibishyimbo mu ntoki, urabona ikindi kiganza gisa naho kiri kurobanura, ni umuntu usa n'aho ari kurobanura imbuto, cyangwa se gutoranya imbuto azatera kugira ngo avanemo imbuto zangiritse.

Abantu bageze mu icumi abo bantu harimo abunamye abandi barahagaze, inyuma yabo bigaragara ko ari umurima basariyemo ibigori, imbere yabo hari ibigori ubona byiza cyane ndetse umuntu umwe yambaye agapira k'umweru asa naho ari kureba uko ibigori bimeze.

Icyumba cyuzuyemo imifuka myinshi ipakiyemo imyaka, harimo umugabo ubyibushye wambaye ishati ijya gusa n'umweru w'igikara ari kureba arakaye iruhande rwe hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa gasongoye, imbere k'umweru akaba yambaye ingofero y'umuhondo.

Ikiganza cy'umuntu gifashe imbuto zimeze nk'izindimu izo mbuto azifashe mu ntoki izindi yazinyanyagije mu butaka mu bigaragara bisa nk'aho ari gutera izi mbuto mu butaka.

Umudamu uhagaze imbere y'inzu, iyo nzu ifunguye umuryango umwe, afashe intara iriho ibishyimbo by'umutuku, hirya y'inzu turahabona urutoki, imbere y'urutoki hari agatanda gateretseho ibyombo n'isafuriya.

Umugabo wambaye bigaragara ko ari umuveterine kuko ari ahantu hari inka bigaragara ko ari kubyaza inka, uwo muveterineri yambaye itaburiya y'ubururu kandi yambaye igishashi mu ku boko bigaragara ko ari gufasha inka kubyara.

Abaganga babiri bambaye imyenda ijya gusa n'icyatsi, bambaye utugofero n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari gusuzuma imbwa bigaragara ko aba baganga babiri ari abaveterineri, cyangwa se abaganga bita ku matungo.

Abagabo babiri harimo uwambaye iga z'umweru, n'umbaye ibodaboda z'umuhondo n'agapira k'umweru, basa n'aho bafashe injangwe, kandi iruhande rwabo hari inzu yubakishije amatafari ahinye.

Ameza y'umweru ateretseho uducupa dutatu, uducupa tubiri tusa n'aho turyamye, akandi karahagaze, biragaragara ko utwo ducupa tubiri turyamye, harimo imiti cyangwa se umuti urimo urukingo rukingira amatungo.

Ndabona umuntu, inyamaswa ifite igisebe, icyo gisebe ukirebye giteye imbabazi, kuko kibabaje cyane, aha bigaragara ko hari umuganga uri kwita kuri icyo gisebe cyangwa se uri kukivura, we kuvura aho hantu hari igisebe.

Ni inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni iba mu ishyamba, ku munwa wayo hariho umutuku, ifite umunwa muremure, ihagaze ikunje amababa n'amaguru yayo arasa n'umutuku.

Agasimba gafite umurizo muremure uriho ubwoya, ukabye neza wagira nimba aba yakuze, ariko aka gasimba gashobora kuba kitwa agatunzi, uko biri kose gahagaritse amatwi bisa naho hari ikintu kigakanze cyangwa ari ikintu kikanze.

Ndabona imisambi ibiri, iyo misambi iri ahantu hari nk'agashyamba iri mu byatsi, iruhande wagira ngo hari ibiti byumye, hari n'ibindi biti bitumye, hirya yaho biragaragara ko hari ibihuru, iyo misambi isa naho iri gushaka ibyo kurya.

Aha ni muri Parike, urabona inyamaswa zitandukanye. Urabonamo imparage urabona ko abantu baba baje kuzisura. Urebye neza urabona imodoka z'abakerarugendo zigera kuri enye. Harimo zose eshatu n'iz'umweru indi n'iy'ikigina. Urabona ko abantu babasha gusura izi nyamaswa muri Parike.

Ni mu ishyamba bigaragara ko hari ibiti birebire cyane, hari ikirere cy'ubururu, imbere harimo inyamaswa y'amahembe abiri asa naho avunitse, inyamaswa ifite ikintu iri kwitegereza bisa naho ifite ubwoba cyane.

Ni mu ishyamba, harimo ubwatsi bw'uturabyo tw'umweru, urarabonamo ibiti biri kugaragara ibihimba, hari inyamaswa imeze nk'aho ari idubu, iri n'abana bayo batatu, biragaragara ko hari ikintu izi nyamaswa ziri kwitegereza.

Ni mu ishyamba, ishyamba hagati hanyuzemo umugezi, umugezi uzengurutswe n'ibyatsi, hari inyamanswa yo mu bwoko bw'idubu iri kwambuka uwo mugezi ariko ikoresheje uburyo bwo gutaruka.

Imbwa z'amabara atandukanye hari iz'ikigina harimo n'iy'umukara bigaragara ko izo mbwa ziri kurwana, aho zigeze ni mu muhanda kandi biragaragara ko izo mbwa zitari kumvikana ziri mu muhanda w'igitaka.

Intare y'ingabo iryamye yarakaye cyane bisa naho hari icyayirakaje. Iruhande rwayo yegereye ibiti bitoshye kandi bisa naho ari birebire cyane. Ibyo biti ni byiza kandi birashimishije.